Umuntu wipfutse mu maso ndetse n'ahandi ku mubiri wose, yambaye ipombo, ari gutera imiti mu bimera cyangwa se ibihingwa.

Umuti witwa intoromini daburiyu esi, wifashishwa mu kuvura inyamaswa zitandukanye.

Ikiraro cyangwa se ahantu hakorerwa ubworozi bw'inkoko.

Itsinda ry'abaganga b'amatungo bamenyerewe nka veterineri, bari kureba inka cyangwa se barimo barayisuzuma.